Ni mu nyubako y'ibitaro, hari abaryamye ku gitanda, hari abo ababaganga bari kwitaho, hari abaryamye hasi, harimo abana, harimo abagabo, n'uruvange rwabantu benshi, harimo abaganga bambaye itabariya, ni ibitaro birimo akajagari.

Hari abantu bicaye, bikingizo hejuru yabo, hari imodoka ihagaze iri kwinjiramo abantu, baba bakwinjira abandi basohoka ndetse hari n'abari kuganirizwa bicaye imbere y'iyomodoka.

Ni abantu bari mu cyondo umugabo umwe afashe isuka ari gukata icyondo, yambaye ijiri y'umutuku mu mugongo harimo ikirango cy'umusaraba cy'umutuku, hari n'undi ku ruhande rwe yambaye ingofero y'umutuku ndetse yambaye umupira w'umutuku, n'umugore yambaye ijiri y'umweru bari mu gikorwa cy'urukundo.

Ni mu rugo rw'umuturage, hicayemo abantu abamama n'abagabo, hari uwambaye ijire y'umutuku, hejuru ye hari igitambaro cy'umweru kirimo umusaraba uri mui ibara ry'umutuku.

Hari ababyeyi bafite abana, ababyeyi b'abamama, hari umugabo wicaye imbere bafite ikaramu, afite ikayi, ari kwandika yicaye ku ntebe zitabona, ari muri salo, abana b'abakobwa, ab'abahungu ndetse imbere y'aho hari yo n'umuyobozi.

Ni kuri posite do sante iri mu marangi y'ubururu hirya yaho hariho ikigega kijyamo amazi, imbere yaho hari kandagira ukarabe aho uwinjira abanza gukaraba intoki, agasukura n'isabune n'amazi, imbere yaho hari muganga hari n'umutekinisiye afite umurasire mu ntoki munini.

Ni mu ishuri harimo abanyeshuri bambaye umweru hejuru, harimo abayobozi babo hari uwambaye ijiri ririmo umuhondo, hari n'uwunamye bigaragare ko bari kureba ibyo bakoze hari n'ufite inkoni.

Muri sare hicaye abayobozi, harimo abakobwa, harimo abasore, hari ufite ikayi ari kwandika yambaye ishati y'umutuku irimo amabara y'ubururu, imbere yabo hari amazi baricaye bari kumvamva ikiganiro.

Hari abantu benshi, harimo abamama, harimo abapapa ndetse kandi hari imodokadu nini, hari n'ibiti biteye, byiza, bari kubaganiriza, babaha ikiganiro kibagenewe ndetse bose bateze amatwi.

Ni mu bitaro, hari umubyeyi yicaye ku gitanda, acyikiye uruhinja mu ntoki, amaze kwibaruka, yambaye umupira w'umweru urimo amabara y'umukara, ndetse yambaye n'ingofero.

Icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana no kwipisha inda inshuro umunani yitabiriye kubyarira kwa muganga, yitabira serivisi zo kuboneza urubyaro hehe n'gwingira rye wakurikije inama za muganga ukora ibyo byose yakubwiye.

Ni munyubako nini, iririmo etajeri zitandukanye, ziri mu mabara y'umweru ndetse harimo n'umukobwa, uri kureba ibiri muri etajeri yambaye isaha ndetse n'impeta, yambaye ikanzu iri mu mabara y'umweru.

Ni munzu nini irimo amarangi y'umweru, harimo etajeri iteretseho mashini hejuru, harimo amavuta ndetse ni mu nzu y'ubucuruzi.

Ni abantu batatu umugore umwe nabagabo babiri, umugore yambaye umupira w'umweru hejuru, umugabo yambaye umupira w'umweru hejuru, undi yambaye ikoti ry'umukara yazirekeye agapfukamunwa mu mutwe, imbere ku meza hari amazi.

Ni kuri poste de sante, ni inyubako iri mu mabara y'ubururu; handitseho girara ubuzima ndetse imbere harimo abari gutanga serivisi n'abari kuzihabwa; hari abaganga, hari imiti, hari intebe zicayemo abaza gushaka serivisi ahongaho ndetse hari kandagira ukararabe kugira ngo uwinjiyemo wese abe abafite isuku.

Mu kigo cy'amashuri arikandagira hari kandangira ukarabe aho umunyeshuri yinjira abanje gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, abayobozi babo binjira bakarabye intoki neza misabune ndetse bakarabye intoki, bakamera neza bakagira ubuzima buzira imuze muri iki kigo.